Abantu bagiye ku iriba harimo ababyeyi n'abana, bari kuvoma amazi aturutse mu itiyo, bafite amabido y'umuhondo, bari gutega ibido ku itiyo ngo ijyemo amazi.

Umumama urikureba yambaye ingofero, umupira w'imbeho wa kake n'igitenge. Arikuvoma amazi ava muri robine ajya mu ijerekani. Ni amarobine abiri ariguturukamo amazi.

Ni abantu bicaye bambaye imipira y'umweru, imbere yabo hari umuntu bahanze amaso, arimo arabaganiriza, hagati muri abo bantu hirya hari umwe muri bo wahagurutse ahagaze.

Ni abana babiri, umwe afite igikombe kirimo amazi ari gusukira mugenzi we ku ntoki, hari icyapa kiri inyuma yabo cyanditseho UNICEF foru evuri cadi,, munsi y'aho UNICEF iratwereka imbuga twayishakiraho.

Umwana uri ku iriba riturukamo amazi, yateze ikiganza munsi ya robine iri kuvamo amazi yunamye yashyize umunwa kuri icyo kiganza, munsi ye hari indobo.

Ni abantu bari mu kibuga kinini bahagaze imbere bamwe muri bo bicaye hasi hagaragara umwe wicaye ku ntebe iruhande rwabo haparirika imodoka barimo barererekeza mu nzu nini z'akazi amabati atukura hariho icyapa kishushanyiho abantu.

Ni umuforomo wambaye umwambaro wabugenewe wo kwa muganga w'umweru, yambaye ibikoresho byo mu ntoki by'umweru, ari gutanga imiti ayihereza umubyeyi w'umumama.

Ni umwana uri ku iriba yambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura y'umukara ari kuvoma amazi ava mu itiyo ayashyira mu ibido, ari gukanda robine kugira ngo isuke amazi mu ibido, iruhande rwe hari abandi bana n'abo baje ku iriba.

Ni umubyeyi w'umumama arimo kuhagira umwana yamwicaje mu ibase, inyuma ye hari undi mwana uri kuri robine afite indobo arimo arayivomeramo amazi, imbere y'abo hari undi mubyeyi na we ufite indobo avuye kuvomamo amazi kuri robine, imbere ye hari umwana.

Aho ababyeyi bahurira bakajyana abana batoya bakitabwaho, barimo barabanywesha amata.

Ndabona umumama uri mu kiyaga ari kuvoma akoresheje ijerekani, iruhande rwe hari umuhungu urimo koza igare akura amazi muri icyo kiyaga.

Ni umuntu wateze ibiganza byombi kuri robine irimo iturukamo amazi ari kumugwa mu biganza yateze munsi ya robine.

Ni abantu bari gufata ifoto igitsina gore n'igitsina gabo, ku ruhande hari imeza iteretseho icupa ry'amazi yo kunywa, muri icyo cyumba bari gufatiramo ifoto hari ifoto imanitse ku gikuta cy'inzu igitsina gabo, inyuma yaho hari icyapa cyanditseho UNICEFU.

Ni mubyeyi w'umumama ateze igitambaro cyo mu gitenge, yambaye iribaya risa n'igitambaro ateze mu mutwe.

Umubyeyi wicaye ku ntebe, yitandiye igitambaro, arimo arareba iruhande rwe, kandi iruhande rwe hashushanyije ikimera cy'amababi abiri kiriho imbuto.

Ni imodoka nini ifite imiryango ibiri aho utwara ikinyabiziga yicara inyuma ye hari umuryango wundi ufunguye ,imbere yiyo modoka hari abantu bicaye ku ntebe bambaye udupfukamunwa bari kumwe n'abandi bantu ubona ko ari abantu babiri babiri bari kuganirizwa.

Ni abantu batatu b'igitsina gore bicaye hamwe, bo bambaye udupfukamunwa umwe muri bo ni umudamu ukuze uteze igitambaro. Babiri bafite udutabo barimo baganiriza uwo mubyeyi.

Umuntu w'umusore aricaye ku ntebe yegamiye, arasika mu gatuza he, hariho agatambaro k'umweru, imbere ye hari robine ya kandagira ukarabe.

Umusore w'umuzungu, wambaye ikote ry'ikoboyi n'agapira ka shokora, araseka cyane agaragaza ko yishimye.

Abana b'abanyeshuri, bambaye amashati ya kakaro, umupira w'imbeho ni umwe wambaye, umupira w'icyatsi, amakabutura n'amajipo y'icyatsi, bafite ibikombe buri wese birimo amazi, bafite uburoso, barimo barasukura amenyo yabo.

Umuntu w'igitsina gabo bigaragara ko atambaye hejuru, arasamye ameze nkuri guseka afite urudodo rw'umweru arikurutambika hagati y'amenyo.

Umwana wari kwa muganga ari kwitabwaho n'umuforomo ndetse n'umuforomokazi bari kumwashamura mu kanwa kugira ngo barebe ikibazo afite mu menyo.

Ni umwana uri kwa muganga aryamye ku gitanda arimo arasuzumwa n'umuforomo wambaye agapfukamunwa n'immyenda yabugenewe yo kwa muganga, yambaye na ga, ari kumukorera amenyo yamwasamuye bigaragara ko ari kumuvura mu kanwa.

Ni umuntu yambaye itaburiya, ni igitsina gabo yicaye ku ntebe iruhande rwe hari igitanda cyo kwa muganga bifashisha kiba kirambuye hejuru giseguye, hejuru y'icyo gitanda haba hariho icyuma kimurika wa muntu uryamye kuri icyo gitanda.

Ni ishusho y'amenyo y'umuntu, bari kutwereka uburyo amenyo ye y'imbere afite ikibazo nta go angana n'amenyo yo mu mpande.

Ni umusaza wicaye ku ntebe, yambaye indorerwamo z'amaso, imbere ye hari ibitabo, iruhande rwe hari na telefone, arimo arandika.

Umubyeyi w'umupapa yicaye imbere y'ameza, ari kwarura ibiryo, afite isahani yaruriyeho ibiryo iruhande rwayo hari indi iriho imboga, iruhande rwe hari n'ikirahure kirimo amazi.

Umupapa wicaye ku ntebe, wambaye agapfukamunwa n'ishati y'ubururu, arimo arasuzumwa n'umuforomokazi wambaye agapfukamunwa n'ishati y'icyatsi.

Ni umubyeyi w'umupapa, ari kumwe n'umwana muto, bari mu kibuga cy'umupira, bari gukina, bigaragara ko uwo mukino bakina ari umukino w'intoki, umwana niwe ufite umupira mu ntoki, papa we arimo amwegera amusatira awumunyaga.

Ni abantu babiri bicaye ku ntebe imbere y'ameza, umusaza n'umukecuru, kuri ayo meza hariho utuntu tumeze nk'ibinini. Umusaza arimo adusobanurira uwo mubyeyi utwo ari two.

Ni abantu baricaye mu bucaca umu mama umwe yicaye ku ntebe n'undi mukobwa bicaye ku ntebe ,imbere yabo hari umu papa uteruye akana nawe wicaye ku ntebe, iruhande rwabo hari abakobwa babiri bicaye hasi bari kumwe n'abana, inyuma yabo hari umugozi umanitseho imyenda imbere yabo hari umu mama bahanze amaso uri kuboha icyibo.

Ni abantu batanu, bigaragara ko harimo umusaza n'umukecuru, bari kumwe n'umusore n'inkumi ndetse n'undi mwana w'umukobwa barishimye cyane, baragaragaza ibyishimo baseka.

Umurwayi kwa muganga aryamye ku gitanda, hirya ye hari umuganga, hino ye hari imashini ipemu uko ameze, imashini bareberamo ko umutima we uri gutera.

Abantu batatu bicaye, harimo umumama umwe ukuze cyane, imbere yabo hari imeza iriho udupapuro, umumama ukuze afite agapapuro kamwe, umukobwa umwe ari imbere afite udupapuro dutatu dusa umukara bari guseka bishimye.

Abamama batatu bicaye umwe muri bo wicaye hagati ari kubereka ibintu muri terefone barimo babirangamira, imbere yabo hari indodo, umwe muri abo bamama afite ikidongi cy'urudodo kinini.

Ni umubyeyi w'umumama yicaranye n'umwana, imbere yabo ku meza hari utuntu tumeze nk'udupapuro arimo aradukurura yereka umwana ibiriho.

Ni umusaza ari kwa muganga yicaye ku gitanda, iruhande rwe hari umumama afite agashumi k'umuhondo yamuzamuye amaboko, agiye kumufunga amaboko akoresheje akagozi k'umuhondo.

Umuntu bigaragara ko yarwaye, yafatiwe ahatari kwa muganga, bari kumushyira kuri burinkari, ari kumwe n'abaforomo n'abaforomokazi bari kumwitaho.

Ni igishushanyo kiriho umuntu wicaye ku ntebe ari guterwa urushinge mu kaboko, icyo gishushanyo cyanditseho amagambo, hasi hariho uducupa tubiri kamwe gapfundikiye akandi gapfunduye karyamye hasi.

Ni icyapa kinini kigaragaza ikigo nderabuzima cya Matyazo giherereye hafi y'umuhanda wa kaburimbo, icyo kigo nderabuzima kiri iruhande rw'icyo cyapa kihagaragaza, hari abantu babiri barimo umu mama ukenyeye igitenge, barimo bava kuri icyo kigo nderabuzima.

Ni abantu biganjemo igitsina gore n'igitsina gabo bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima cya Kabutare bambaye udupfukamuwa, harimo abagabo babiri bafite inkoni zifashishwa n'ababana n'ubumuga bwo kutabona.

Abazungu, abirabura barimo barifotoza ifoto igaragaza ibyishimo, ikaba iri gufatirwa ahanditse ibitaro bya Rwamagana.

Ni inyubako igeretse ihande rwa hejuru mu muryango hari icyapa cyanditseho mediasol pharmacy Remera munsi haparitse imodoka y'ubururu kuri iyo farumasi imiryango yabo irafunguye imbere yaho hari amavaze rimo indabyo.

Ni inzu igeretse ifite amabati atukura, isinzwe amarangi y'umweru n'ikigina, hari abantu barimo bayerekeza, barazamuka ku mayesikariye n'abandi barimo bagenda muri jaride hanze.

Ni inzu yanditseho amagambo ya isanga one stop center Remera Rukomo, imbere yaho hari ubusitani buteyemo indabyo n'ubucaca.

Ni ababyeyi babiri bicaye, imbere yabo hari umuforomokazi wambaye imyenda yo kwa muganga yabugenewe, yambaye amaga y'umweru, ari gufata umwe muri abo babyeyi ikizamini cy'umuriro, igikoresho bifashisha bakirambika ku kuboko.

Umubyeyi wambaye ishati y'umweru, yerekeje mu cyumba cyagenewe gupimirwamo ibiro by'abana, nawe ari gupima umwana we ibiro.

Ni icyumba kirimo intebe ebyiri, hariho imeza iriho imashini, hirya hari akabati iteretseho udukarito tw'imiti, muri icyo cyumba hari ifoto iri ku gikuta iriho abantu babiri.

Ni icyapa kinini kigaragaza ibitaro bya Kabgayi ko bikomeje hari umuhanda w'igitaka, imbere yaho hari umuntu ufite igare ahari bigaragara ko arimo kugenda yerekera muri ibyo bitaro bya Kabgayi.

Umugabo wambaye ishati y'iroza, yicaye mu cyumba cyo kwa muganga basuzumiramo abantu indwara zitandukanye, yicaye imbere yamashini arimo arareba firime.

Ni igikoresho cyo kwa muganga kiba gifite ubuso mbere yacyo bungana na santimetero mirongo itanu n'umunani rundi ruhande hariho santimetero mirongo icyenda n'imwe icyo gikoresho ubuzamuko bwacyo bungana na santimetero ijana n'imwe.

Umusore uri muri siporo arimo arakora siporo aragenda ageze igihe cyo kumva ko agomba kuruhukamo, arimo aruhuka anywa amazi anywesha icupa ry'ubururu.

Igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa bapima umutima, gifite ibara ry'umukara, hagati ry'ubururu n'umweru hejuru.

Ni umukobwa uri muri siporo ,yambaye imyenda yabugenera ya siporo ,yicaye hasi arambuye ukuguru kumwe ukundi yaguhinnye amaboko yayarambuye yafatishije ku mano y'uko yarambuye, ku kuboko kwe hariho igikoresho cyabugenewe cyo gushyiramo telefone ye, iyo telefone yashyizemo ekuteri ari kuzumva.

Ni umwana muto uteruwe n'umubyeyi we wambaye agapfukawa, imbere yabo hicaye umuganga nawe wambaye agapfukamunwa, arimo arapima umwana umutwe akoresheje icyuma cyabugenewe, icyuma ari gukimumurika mu gahanga.

Ari gukora siporo, yambaye imyenda ya bugenewe ya siporo, ipantaro y'umukara, umupira w'umuhondo, yambaye inkweto z'ikigina, ari gukora siporo, yicaye hasi, ari kurambura amaguru, anayahina.

Ni igikoresho cyo kwa muganga bakoresha basuzuma indwara zitandukanye kiri mu cyumba cyabugenewe, icyo gikoresho bakipimishiraho abantu barwaye bakakiryamaho bakabasunika mo imbere mu kindi cyuma bakagaruka babonye ikibazo bafite.

Umuntu w'igitsina gabo ari ari kwa muganga ari kumwe n'umuforomokazi yifashishije icyuma cyo kwa muganga bigira aho kugenda umuforomokazi yarimo aramufasha kwiga kugenda.

Ni umuntu yambaye agapira, afite ekuteri mu matwi, ari kunywa amazi akoresheje icupa rya parasitike.

Umuntu hari muri siporo y'igitsina gore yambaye umupira utukura icupa ry'amazi ari kuyanywa asize ku munwa ku kuboko kwe hari igikoresho cyabugenewe bashyira ku kuboko cyo gutwaramo telefone yashyizemo telefone, telefone ashyizemo ekuteri arimo arazumva yashyize mu matwi.

Umusore uri mu cyumba cyabugenewe cyo gukoreramo siporo, arimo araterura ibyuma bimwongerera imbaraga zo mu maboko.

Yicaye kwa muganga ku gitanda, imbere ye hari umuganga wambaye itaburiya, yamufashe ukuguru, arimo aramukandakanda mu ivi.

Hashushanyijeho ibiganza bine. Icya mbere kiriho kabiri, gatatu, kane, rimwe, hariho agakuboko k'umutuku. Icya kabiri nacyo cyanditsemo gatandatu, gatanu, karindwi, umunani, harimo udukubo mu kiga, inyuma y'ikiganza. Icya gatatu nacyo cyanditsemo icyenda kirimo agakubo inyuma y'ikiganza. Icya kane cyanditsemo icumi, cumi na rimwe, nacyo kiriho agakubo inyuma y'ikiganza.

Igikoresho bamwe mu bafite ubumuga bwo kutagenda bifashisaha, bacyicayeho, gifite amapine abiri, gifite n'aho begamira kandi gifite aho umuntu yafata ari inyuma y'uwicaye agasunika.

Ni umuntu uryamye ku gitanda kwa muganga, ukuguru kumwe yagushinze yambaye n'inkweto kuri uku kuguru ukundi yakurambuye, imbere ye hari umuntu uri kumuzirika mu mpande mu rukenyerero rw'ikirenge, iruhande rwe hari isizo, igikoresho cyo kwa muganga bakoresha bapfuka.

Imashini yo kwa muganga yifashishwa ku babyeyi batwite mu buryo bwo kumenya ubuzima bw'abana bari mu nda n'uburyo bahagazemo.

Ni umuntu uryamye hasi, inyuma ye hari umusore uri kumwegura amwiryamishaho, nyuma yaho hari abandi bambaye imyenda igaragaza ko bakora mu butabazi bw'ibanze.

Imbuto ziganjemo inanasi, timutamu, ndimukari, imineke, utunyobwa, pome na voka. Imidari hagati aho, ku ruhande bakatwereka ibinini.

Umwana uri kumwe n'umuzungu bicaye hasi inyuma y'umwana hapfukamye umubikira barimo bafata ifoto.

Ni umuntu uri muri siporo, yambaye imyenda ya siporo n'inkweto, yicaye ku gitanda cyabugenewe cya siporo, hasi haraturuka utugozi batumuziritse ku maguru.

Umugabo wicaye yambaye ijaketi y'icyatsi, ari kunywa amazi akoresheje icupa.

Uri muri siporo yambaye imyenda y'ikigina arimo aragorora umubiri, ari mu gatapi k'ikigina ukuguru kumwe yagushinze, ukundi yakurambuye, yakwerekeje inyuma, amaboko yayazamuye.

Ni ikimera gifite amashami kuri ayo mashami hariho amababi manini afite ibara ry'icyatsi.

Igiti gifite amashami kuri ayo mashami gifiteho amababi y'icyatsi kandi hariho indabyo z'umweru.

Ni ibyatsi bira ahantu nko mu gihuru hari ibyatsi bitandukanye ariko hagaragaye cyane ikimera cyitwa umuravumba nicyo cyiganje muri ibyo byatsi bira aho ngaho.

Agakarito k'ubururu mu mpande umweru, kanditseho amagambo C icyenda, bakadusobanurira ko ari igikarito kirimo ibitera imbaraga, katwereka icupa rya kake ririmo jeri y'igikakarubamba.

Amacupa ya purasitiki atanu afite imifuniko y'ubururu, ariho ibyapa bitandukanye bigaragaza ko ibinyobwa birimo atari bimwe.

Ni ikimera gifite uruti ruzamuye, ku ruhande hariho amashami, ayo mashami ariho amababi menshi yashamikiyeho y'icyatsi.

Ni etajeri irambitseho amacupa atandukanye, aya macupa harimo ibihingwa bya kinyarwanda bifashisha bavura.

Ni agacupa gapfundikijwe n'umupfundikizo w'umweru, kazengurukijweho igipapuro cyanditseho amagambo kandi hariho abantu babiri ndetse bo ku muryango bakatwereka ibyo uvura, kurangiza vuba, gucika intege.

Aba bantu barimo kugenda mu nzira hagati mu ishyamba bahetse ibikapu hagati muri iryo shyamba imbere yabo hari nko ku musozi urigupfubukaho amazi menshi

Igicupa cy'igikombe kinini gipfundikije umufuniko w'umuhondo, iki gicupa kizengurukijwe n'icyapa cy'igipapuro, cyanditseho umuravumba, andi magambo kandi hashushanyijeho icyo kimera cy'umuravumba.